Umukobwa wishimye ufite imisatsi uri muri botike, imbere ye hari ubwoko bw'imbuto, harimo imineke, imyembe, amavoka n'ibindi ndetse imbere ye hari amandazi, bombo, ifu iri mu ndobo ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, bigaragara ko ari mu iduka.

Abantu benshi bicaye hamwe, bamwe bambaye impuzankano, bica munsi y'itente, imbere yaho hari ibyatsi ndetse bamwe muri bo barimo abayobozi.